Abadamu babiri bicaye ku ntebe ziri mw'ibara ry'umukara, bakaba bambaye amadarubindi, ndetse imbere yabo hakaba hateretse icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa bifashisha mu kazi, ndetse inyuma yabo hakaba hari amarido cyangwa se igitambaro cyifashishwa bashyira ku rugi cyangwa se ku madirishya.

Inzu irimo abantu batandukanye, yaba umupapa wifashe ku munwa ndetse akaba yambaye amadarubindi, ndetse mu kuboko kw'ibumoso kwe akaba yambaye isaha, ndetse imbere ye hakaba hari ameza ateretseho icyangombwa cyangwa se igishushanyo cyanditseho ara si eyi, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umusore uri guseka wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, akaba afite telefone, mu kirahure hakaba harimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba handikishijemo amagambo ari mi ibara ry'umukara, ndetse hakaba hari n'amagambo ku ruhande rw'iburo bwa telefone, ari mu ibara ry'umweru n'ubururu, yanditseho rikwayamentisi.

Abakinnyi ba basiketi bigaragara ko bari gukina basiketi, mu kibuga hakaba handitseho ijambo viziti Rwanda mu ibara ry'umweru ndetse hejuru y'icyo kibuga hakaba hari abandi bakinnyi b'ikipe bakunze kwita efuse bayanimunice, ikaba yambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'umweru, hejuru hakaba handitse rya jambo viziti Rwanda.

Umuhanda urimo mu ibara ry'umukara bakunze kwita kaburimbo, ku mpande yaho hakaba hateye ibiti bitandukanye ndetse imbere y'uwo muhanda hakaba hamanitse idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse imbere y'iryo darapo hakaba hari inzu cyangwa se ibitaro byanditseho Kingi Fayisali hosipito biri mu mabara y'icyatsi.

Inzu iteraniyemo abantu benshi yaba ingabo z'igihugu cy' u Rwanda, ndetse hakaba harimo abandi bantu bigaragara ko ari imfungwa cyangwa se abagororwa bambaye umwambaro uri mu ibara ry'ubururu, ndetse bikaba bigaragara ko aho hantu baje mu nama cyangwa se baje kwivuza.

Inzu irimo abantu batatu bicaye yaba aba papa babiri ndetse numu mama umwe ndetse hakaba harimo umu papa mo hagati ufite indangurura majwi imbere yabo hakaba hari izindi ndangurura majwi ndetse nameza ariho igitambaro riri mwibara ry'umweru.

Umukuru w'igihugu cy'U Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame ndetse akaba ari kumwe na madamu we Jannet Kagame ndetse bikaba bisa nkaho bari mu nama imbere yabo hakaba hateretse amazi ari mu icupa ndetse hakaba hateretse n'igikombe kirimo utuntu dutandukanye.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikamyo kikaba gitwara ibicuruzwa ahantu hatandukanye cyangwa se ibindi bintu bitandukanye kikaba kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo mu ruhande rw'iburyo hakaba hari abamotari ndetse uwo mumotari akaba yambaye kasike iri mu ibara ry'ubururu akaba atwaye n'umugenzi wambaye kasike iri mu ibara ry'ubururu.

Umumotari wambaye kasike iri mu ibara ry'umweru, ndetse akaba atwaye umugenzi wambaye kasike cyangwa se igikoresho bifashisha birinda impanuka, iri mu ibara ry'umutuku, bakaba bicaye kuri moto, ndetse iyo moto ikaba iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, ikaba iri mu muhanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku kikaba gishushanyijeho umupapa cyangwa se umubyeyi ufite umwana, kikaba kigaragaza ko ari ahantu abantu bari kwambuka cyangwa se aho hantu bakunze kuhambukira imodoka zidakwiye gutambuka.

Amazu menshi atandukanye yaba inzu y'igorofa ikaba isize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku ndetse hanze hakaba hateye ibiti bitadukanye yaba insina ndetse n'ibindi biti bitandukanye ndetse hanze yayo inyuma y'iyo nzu hakaba hari indi gorofa hakaba hateye n'ibindi biti.

Umuhanda urimo ibara ry'umukara bakunze kwita kaburimbo ndetse bikaba bisa nkaho ari ahantu imodoka zikunze guparika abagenzi bagiye kuva mu modoka berekeza ahantu hatandukanye ndetse muri uwo muhanda hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye yaba moto, amagare ndetse n'imodoka.